Abagabo bari mu kabari, bifotoza bafite amacupa n'ibirahuri by'inzoga za mitsingi, bahagaze ahantu mu mwijima, hari amatara ubona ko bari kwishimisha.

Mu kabari ahantu hari kontwari ifite intebe ndende cyane abantu bicaraho bari kunywa inzoga, cyangwa se ikindi cyo kunywa mu kabari. Hari ibirahuri n'icupa bari kunyweramo, bari no gudundanaho ibirahuri, bimwe bavuga ngo "ni ku buzima bwacu".

Ameza aba ahantu mu kabari aba afite umutaka ,intebe abantu bajya gusohokera muri ako kabari bicaraho bakanywa, bakanarya. Aha hari abantu bateraniye mu kabari bicaye kuri aya meza.

Ahantu hasakaje ibyatsi heza cyane hagaragara nk'aho ari muri Hoteri harimo intebe, ameza abantu bajya gusura cyangwa kuruhukira, bitewe n'ikibajyanye hakaba hari amatara ndetse n'umuyaga mwiza.

Umugabo w'umutetsi wambaye iniforume ufite imishito y'inyama eshatu iriho n'ibirayi, kandi yambaye ga n'ingofero, ari mu gikoni cyabugenewe cyujuje ibyangombwa.

umugabo uri muri kontwari mu kabare k'inzoga z'ubwoko butandukanye, harimo amarikeri n'izindi za Burarirwa, harimo inzoga zihenze cyane nini z'amarikeri harimo amarura, n'izindi.

Akabari gafite itajeri bapangamo inzoga, abakiriye bakaza bagahitamo izo bashaka bakazigura. Hari kontwari aho bicara bari kunywa, harimo n'igikoresho cya firigo gituma inzoga zikonja.

Amazu y'ubucuruzi ariho amakaro hejuru ku gisenge. Hari abagabo babiri bayitegereza, hanze hari amagare n'umuntu ufite ibikoresho byo gukanika hanze y'umuryango.

Butike cyangwa amazu y'ubucuruzi, yakundaga kuba ari ku makaritsiye ku muhanda, Hakaba abaturage bajya guhahiramo ibintu bakenera mu buzima bwa buri munsi byiganjemo ibiryo n'ibindi bikoresho, hakaba hatangirwa serivisi zindi zitandukanye.

Iduka rinini, inzu nini yubucuruzi ririmo ibicuruzwa byinshi harimo imifuka ya kawunga, umuceri amasafuriya, amasahani, ibikosi, udutambaro, n'ubwoko bw'amavuta butandukanye birimo buri muri etajeri bipanze neza.

Inzu z'ubucuruzi ziri ku muhanda, zubatswe zifite inkingi, Imbere batatseho n'amakaro, inzu zifite inzugi za mitalike, zicururizwamo ibicuruzwa biciriritse, ndetse hari n'umuntu uhahagaze, imbere hari amapave na borudire itwara amazi.

Inzu cyangwa iduka ricuruza cyane cyane ibyo kurya n'ibindi bikoresho abaturage bakenera mu buzima bwa buri munsi. Akaba ari umucuruzi ujyaga kurangura mu mugi, maze akabizana aho abyegereje abaturage, bakajya barangura bitabagoye. Bituma umucuruzi yiteza imbere anohereje...

Inzu z'ubucuruzi ziri ku muhanda, ziriho ibyapa bigaragaza ibikorerwamo imbere. Bafure iteretse imbere cyane cyane ikoreshwa ku ba dije bacuruza filime bagafotora, n'izindi serivisi nk'iz'irembo, n'izindi serivisi z'ikoranabuhanga.

Ahantu hacururizwa ibikoresho bitandukanye byiganjyemo iby'ikoranabuhanga, telefone, mudasobwa, amacagi n'ibindi. Akaba ari umucuruzi ujya kubirangura akabizana ahantu acururiza, abaturage bakazana amafaranga bakabigura.

Iduka ricuruza ibicuruzwa bitandukanye birimo amasafuriya, amavuta, imyenda, ibikapu. Harimo na etajeri, umunzani ndetse n'abaguzi.

Inzu y'ubucuruzi iriho icyapa kigaragaza ibikorerwamo, harimo: gufotora, gupurintinga cyangwa se serivisi zo gushutinga videwo n'ibindi bikorerwamo by'ikoranabuhanga bijyanye na sutidiyo.

Isoko rihuza abantu benshi，hakaba habamo abacuruzi，bajya kurangura mu cyaro no mu yandi masoko bo mu cyaro，imbuto， imineke，n'ibindi biribwa nk'imboga，cyangwa ibigori， bakabijyana mu mujyi kubigurisha， aho abanyamujyi badahinga，baza kubigura，kugira ngo babirye， bakishyura amafaranga.

Inzu z'ubucuruzi ziri ku muhanda abantu baza kuguriramo imyaka yo guteka nk'ibishyimbo, ibigori, n'amafu atandukanye, bakaba banabigurishaho ku muhanda aho batuye.

Abanyonzi, abantu batwara amagare batwaraho abagenzi bari imbere y'amazu y'ubucuruzi, yubakishije amakaro imbere, hari umudaso n'abandi bakiriya bajya muri ayo mazu y'ubucuruzi.

Moto, ubwoko bw'ikinyabiziga abantu bakoresha mu ngendo zitandukanye, kikaba ari igikoresho cyorohereza abantu mu gutwara imizigo ndetse no kujya iyo bashaka byihuse, kikaba ari kandi igikoresho gitunze abantu benshi.

Inzu z'ubucuruzi ziba zicuruza ibintu abaturage bakenera, aho muri karirtsiye abacuruzi bajya kurangura mu mujyi, maze bakabizana ku muhanda cyangwa muri karitsiye y'abaturage, bakabibonera hafi bakishyura amafaranga. Abacuruzi bakiteza imbere.

Inzu zikorerwamo ubucuruzi buciriritse, aho abaturage bajya guhahiramo ibyo bakeneye, birimo ibiribwa n'ibindi bikoresho bito bito nk'amabase, amasafuriya, inkweto n'ibindi. Hakaba hari amagare atwaye imifuka y'ibirayi.

Isoko cyangwa ahantu hacururizwa imyenda, hakaba habamo abacuruzi bajya kuyirangura mu mujyi cyangwa ahandi hantu ku nganda bakayizana mu baturage, ahantu haba isoko, abaturage bakaza kuyigura bagatanga amafaranga, abacuruzi bakiteza imbere.

Inzu nziza za kadasiteri, zifite igipangu cyiza, ndetse kiriho ubusitani n'umuhanda mwiza w'amabuye, ukikijwe n'ubusitani, n'amapoto y'umuriro w'amashanyarazi ajyana mu iyo nzu.

Amangazini manini arimo ibikoresho by'amagare n'amapine n'intebe z'imifariso harimo n'ibindi bikoresho by'amagare byinshi birunze ahantu hamwe hameze nkaho ari sitoke y'ibyo bikoresho by'amagare bicuruzwa.

(...) y' ubucuruzi ifite ibyapa imbere bigaragaza icyo bacururizamo hakaba hari ibyo kunywa bigaragara muri izi nzu, imigati ibiryo ibintu byinshi bigaragara ko ari isoko rinini, abantu bacururizamo ibintu byinshi bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi bacuruza ibikoresho bitandukanye, abantu bakenera mu buzima bwa buri munsi. Hakaba hari n'icyapa kinini kigaragaza ibyo bacuruza, byiganjemo ibyo kurya byoroheje. Hakaba hari etajeri irimo inkweto n'ibindi bintu bacuruza hanze.

inzu zubucuruzi ziherereye ku muhanda, zikora ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye cyan cyane ibintu by'ibiribwa n'ibindi abaturage bakenera buri munsi. Bakaba batanga serivisi yo kugaburira abantu badateka, cyangwa bafite imbogamizi z'akazi bakaba baza bakishyura amafaranga bagahabwa ibiryo.

Icumbi rusange, akaba ari businesi cyangwa umushinga wo gucumbikira abantu bageze aho cyangwa budafite aho kurara, baraza bakishyura amafaranga bakaharara, nyuma y'igihe runaka bagataha.

Umuhanda w'igitaka uriho inzu z'ubucuruzi n'imodoka nyinshi ziparitse. Harimo n'izitwara imizigo zizwi nka dayihatsu ndetse n'ibiti biri ku muhanda birebire.

Inzu z'ubucuruzi buciriritse, zikorerwamo ubucuruzi bw'ibiribwa n'ibindi bikoresho, abaturage bakoresha mu buzima bwa buri munsi, hakaba habamo utubari n'ibindi byinshi, zikunze kuba ziri ku muhanda ahazwi nko ku gasatere.

Ubwoko bw'imigati yitwa keke, zikorwa mu ifu y'ingano ndetse n'iy'ifarini, bakaba bashyiramo amagi n'isukari, kugira ngo uwo mugati uryohere. Ukaba ucuruzwa mu maduka, bakawunywesha icyayi cyangwa amata.

Isantire irimo amazu y'ubucuruzi ubucuruzi buciriritse hariho abaguzi, umumotari urimo uvugana n'umugenzi , izo nzu ziriho inkingi nziza ziteye amarangi y'ubururu , hakurya hariho amazu y'igiturage n'ibiti.

Inzu z'ubucuruzi buciriritse ziri ku muhanda, hari n'abantu bari kwigendera aho ku muhanda n'abandi bahicaye, inzu zifite ibyapa byamamaza ibikorerwamo harimo ibya Emutiyene n'ibyuma bindi byo gusudira biri hanze, n'utuzu turimo ibyo bicuruzwa.

Inyubako nini ya etaje igeretse inshuro eshatu. Ikaba ikorerwamo ubucuruzi buciriritse. Ifite imbere haparitse abamotari n'imodoka nyinshi.

Inyubako iriho icyapa kigaragaza ko ari amacumbi abantu babamo bajya kwishyura iminsi mike cyangwa se ijoro rimwe bakishyura amafaranga, bakabaha aho kuryama ndetse n'ibiryo igihe babishaka bakishyura amafaranga.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibikoresho bitandukanye, abaturage bakenera mu buzima bwa buri munsi, harimo: amavuta amatara, ibikapu, n'ibindi bikoresho cyane cyane bikenerwa n'abagore. Hakaba ari iduka ricuruza ibi bikoresho.

Icyampa kinini kiriho ibintu byinshi bitandukanye byiganjemo ibyo kurya, kigaragaza cyangwa kirangira abantu aho bajya kugurira icyo kurya, cyangwa se ibindi bashaka biri ku iki cyapa. Kiriho nimero wahamagara cyangwa na metero uvuye aho kiri kugera aho ibi bintu bibarizwa.

Inzu y'ubucuruzi icuruza ibintu byinshi bitandukanye hakaba hariho ibyapa bigaragaza ibintu bitandukanye bicuruzwa muri iyi nyubako. Harimo uko bogosha imisatsi y'abagore n'ibindi byinshi kandi batanga serivisi z'irembo.

Igipangu kiri ku muhanda, gikikijwe n'umuhanda kirimo inzu isa nk'aho ari akabari, kuko hari icyapa hanze kibigaragaza kiriho inzoga.

Inyubako nini ya etaje iri impande y'umuhanda, ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, igira imiryango myinshi cyangwa se ibyumba byinshi abantu bajya bakodesha bagashyiramo ibicuruzwa n'ababishaka bakaza kubigurira aho ngaho muri iyo nyubako.

Igipangu gikikijwe n'ibyatsi, ndetse n'icyapa kigaragaza ko aho hantu ari hoteri, cyangwa ahantu abantu basura bakajya kuruhukira bitewe n'icyabajanye. Hari ibiti bizana umuyaga mwiza.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibintu bitandukanye, hakaba hari ibitenge, ibikapu n'umuntu ubidodaga. hanze hicaye umugabo na we udoda inkweto n'ibindi bikoresho nk'imyenda, amasafuriya, n'ibindi bikoresho byo mu rugo.

Inzu icururizwamo ibyo kurya, hariho icyapa hanze kigaragaza ibikorerwa mu imbere ibiryo, ifi, n'ibindi biribwa bikorerwa mu imbere, hanze ku muryango hariho kashi pawa.

Inzu z'ubucuruzi, abaturage bajya guhahiramo ibyo kurya, n'ibindi bikoresho aho bakoresha mu buzima busanzwe. Izi nzu ziri impande y'umuhanda, urimo imodoka, amagare, na moto, n'abagenzi batandukanye.

Inzu z'ubucuruzi zicururizwamo ubucuruzi buciriritse, ziba ziherereye cyane cyane mu cyaro, hakaba abantu bajya kurangura mu mujyi n'ahandi bakarangura ibyo bikenewe mu cyaro, byiganjemo ibiryo, bakabizana bakabyegereza abaturage bakajya bakuramo amafaranga bakiteza imbere.

Inzu z'ubucuruzi ziba mu muhanda cyangwa muri karirtsiye. Aha hakaba hari inzu igaragara ko ikorerwamo serivisi zo kogosha umutwe cyangwa gukora imisatsi y'abagore. Bakaba bakoresha imashini n'ibindi bintu bikoreshwa mu mutwe byongera ubwiza mu misatsi y'abantu.

Ahantu hacururizwa ibikoresho byiganjemo iby'ubwubatsi; amashanyarazi, amazi, nk'impombo, ingorofani, insinga amatiyo manini, imikoropesho, imyeyo n'ibindi byinshi, bikaba bicuruzwa kw' amafaranga bigateza imbere ababicuruza.

Mu iduka cyangwa inzu ikorerwamo ubucuruzi bwiganjemo ibyo kurya byoroheje nk'amabombo, biswi, amavuta yo kwisiga, ibikapu, n'utundi. Hakaba hari imigati hanze iri mu ka etajeri k'ibirahuri, bituma abakiriya bareba ibyo bashaka kugura ariko nta mwanda ubigezeho.

Iduka rinini ririmo ibintu byinshi bimeze nk'aho baranguza, harimo n'ibyo kunywa bidasembuye, imiceri n'andi makarito y'ibicuruzwa, hanze hariho ibyapa by'amavuta, hariho n'abakobwa beza batatse ku byapa bayisiga.

Icyapa kinini giherereye ku muhanda, kirangira abantu aho hakorerwa ibintu birimo ibyo kurya. Inkoko n'ifiriti, ndetse n'igitanda nk'aho bacumbikira abantu. Hari nuko bigaragara ko ari muri metero maganabiri.

Inzu z'ubucuruzi cyangwa karirtsiye. Akaba ari nk'ahantu ku muhanda haba hari amazu menshi acururizwamo ibintu abaturage bakenera, mu buzima bwa buri munsi. Ziganjemo ibyo kurya n'ibindi bikoresho bakoresha mu rugo.

Ahantu hari ibikoresho by'ikoranabuhanga， birimo amaterefoni，amamashini ya kompiyuta，ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga， bikoreshwa mu gihe cyo kwiga cyangwa， gucuranga n'ibindi byinshi bitandukanye.

Inzu ziri ku muhanda zikorerwamo ubucuruzi buciriritse zikaba ziriho abantu, ibyapa hakunda kuba harimo utubari n'amaduka, abaturage bajya guhahiramo ibicuruzwa bike byo kurya n'ibindi bakenera mu buzima bwa buri munsi.

Icyapa kinini cyane, kigaragaza iduka umuntu acuruza, hakaba harimo ibintu umuntu acuruza birimo amakaroni, ibyo kunywa bisembuye n'ibidasembuye ni uvuga inzoga, ibirungo, imigati n'ibindi, akaba agaragaza nimero yabonwaho bamushaka.

Inzu z'ubucuruzi ziri ku muhanda, zifite ibyapa byerekana ko habarizwamo intebe n'ameza n'ibindi bikoresho byo mu nzu, intebe z'amadive n'ameza yo gushyira muri salo, biri hanze y'izo nzu.

Botike cyangwa inzu z'ubucuruzi ziba ku muhanda. Zicururizwamo ibintu bitandukanye birimo ibiribwa n'ibindi bikoresho, abaturage bakoresha mu buzima bwa buri munsi. Hariho bafure, igikoresho kinini kizwiho kurangurura amajwi, ndetse hari imiceri n'ibindi bitandukanye.

Igipangu cyiza kinini cyane, kiriho icyapa kigaragaza ko hakorerwamo ubucuruzi bw'ibiryo byitwa resitora, abantu bajyamo bakariramo ibiryo.

Intebe, ameza n'umutaka ibikoresho byifashishwa n'abantu mu kabari. Bikaba bikorwa mu biti nk'imbaho zavuye mu biti bigashyirwa ahantu mu kabari abantu bajya babyicaraho mu gihe bari kunywa inzoga cyangwa bari kurya ibyo baje gufata mu kabari.

Icyapa kigaragaraho ifoto cyangwa igishushanyo cya hoteri, akaba ari ikirangira ahantu hakorerwa serivisi zo gucumbikira abantu, hakaba hari metero zibura kugira ngo ugere aho ahantu kiri na nimero wahamagaraho ubashaka.

Inyubako iri mu mujyi rwagati ifite ibyumba byinshi, na nivo nyinshi ya etaje. Ikaba ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, harimo ubucuruzi buciriritse bukorerwa hasi, abaturage bajya guhahamo. Hejuru hakaba hakorerwamo ubucuruzi bwo gucumbikira abantu, no kubagaburira nka hoteri.

Inzu nini igereretse inshuro eshatu, iriho imodoka, amadirishya y'ibirahuri byiza, hariho n'ikiraro kiva ku nzu kijya ku yindi, n'ibiti by'indabo byiza biri ku gipangu, n'abagabo bahagaze.

Ibikinisho bikinishwa n'abana, bikaba bishyigwa ku mashuri y'abana bato cyangwa muri hoteri n'ahandi hantu, abana bato bajya kwishimishiriza bakishyura amafaranga, bikaba ari ibikino bitanga umunyenga, bityo abana bakaba babikunda.

Etajeri ahantu bapanga ibicuruzwa, aha harimo inkweto zifunze, zikaba zikangwa kugira ngo abakiriya baze bazigure ziri muri etajeri.

Isoko ry'ibiribwa, haganjemo imbuto z'imineke, inanasi, imyembe, amaronji, na za tungurusumu, n'abantu b'abacuruzi n'abaguzi.

Isoko cyangwa inzu icururizwamo ibikoresho byo mu rugo byiganjemo amabasi, indobo ndetse n'udupaniye, hakaba harimo n'ibindi by'isuku bitandukanye, harimo imyenda bikaba biba ahantu haba umucuruzi, n'abaturage bakajya baza kumugurira bakamuha amafaranga.

Abagore bari kudoda bakoresheje imashini cyangwa icyarahani cyifashishwa mu gihe bashaka kudoda umwenda, igikapu n'ibindi. Bikaba biri mu bintu bituma abagore biteza imbere kuko bivamo amafaranga menshi.

Isoko riba ririmo ibyiganjemo imineke, akaba ari igicuruzwa gicuruzwa cyane mu masoko. Akaba ari imineke iva mu biturage cyangwa mu hantu babihinga mu rutoki bakabijyana mu isoko bagakuramo amafaranga bakiteza imbere.

Abacuruzi b'imboga n'imbuto, abantu bajya mu cyaro cyangwa ahandi hantu h'isoko bakarangura imboga n'imbuto nyuma bakazijyana mu isoko kuzigurisha abandi bantu cyane cyane abo mu mugi badahinga imboga n'imbuto bakazigura bagakuramo amafaranga.

Inzu icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo ibinyobwa bidasembuye, imigati, amagi, inyanya, kawunga, umuceri n'iminzani. Abaturage baza guhaha ibyo bakenera mu buzima bwa buri munsi, bigatuma babaho neza n'umucuruzi akunguka.

Ahantu hacururizwa ibikoresho byo mu rugo nk'ibidomora, amasafuriya, amabasi, ibikosi n'ibindi. Aha hakaba hari ibidomora cyangwa indobo nini, zikoreshwa mu kubika amazi menshi, cyangwa se gutwarwamo inzoga n'ibindi byinshi, kuko ziba zifite ubushobozi bwo gutwara byinshi.

Imineke iri mu isoko ry'ibiribwa cyane cyane byiganjemo imbuto, akaba ari imineke ziva mu rutoki cyangwa mu cyaro, abacuruzi bajya kuzigura barangiza bakazizana mu mugi, abakire badahinga bakazigura, abacuruzi bakungukamo amafaranga bakiteza imbere.

Ubucuruzi bw'imyenda iciriritse, bukaba ari ubucuruzi bukorwa n'abantu bajya kurangura imyenda bakayizana mu giturage no mu masoko, kugira ngo bayigurishe babone amafaranga yabateza imbere kandi bifashe n'abaturage kubona imyenda yo kwambara.

Isoko ricururizwamo ibikoresho bitandukanye harimo inkweto abantu bambara zifunguye, hakabamo ibikoresho by'isuku, amasafuriya batekamo, amabase bakarabigwamo, n'ibindi....

Ahantu bacururiza ubunyobwa n'ibindi biribwa mu isoko, ubunyobwa buri mu mufuka, aho hari umunzani, hari n'agakoroboyi barengeshamo ubwo bunyobwa, ku muntu waje kubugura.

Ahantu hari inzu z'ubucuruzi bacuruza imyenda, ikindi bakaba hari n'insinga z'amashanyarazi zinyuzemo nyinshi, hagaragara n'inzu igeretse iriho icyapa kigaragaza ko bacuruza ikawa.

Isoko, ahantu hacururizwa ibintu bitandukanye byiganjemo ibyo kurya nk'indagara, amafu y'ubunyobwa, ay'igikoma ,n'ibindi abaturage bakenera byo kurya. Aha hakaba abacuruzi bakuramo amafaranga, kuko ibi bikoreshwa mu buzima bw'abaturage bwa buri munsi.

Etageri iparitsemo ibikoresho byinshi, ibicuruzwa byinshi, ikaba ari ahantu bapacyinga cyangwa bashyira ibicuruzwa, kugira ngo abakiriya baze babigure, hakaba harimo sosotomate, amasabune, urusenda, situruwaya, korogati, n'ibindi byinshi cyane.

Butike cyangwa inzu y'ubucuruzi y'ibikoresho bya elegitoronike. Birimo poshete za telefoni n'ibindi nka cyagi, ekuteri n'ibundi bikoresho bya elegitoronike bikoreshwa na terefone.

Ibinyobwa bidasembuye bikorerwa mu ruganda. Harimo tuiste inaji. na ji. Bikaba ari ibinyobwa bikunda kuba birimo umutobe w'inanasi cyanwa se ibindi. Uw'imineke n'uw'izindi mbuto ziryohera. Hakaba harimo n'izo bashyiramo tangawizi.

Ahantu hagurishirizwa imbuto zitandukanye z'ubwoko bwinshi, n'ibindi biribwa nk'ibirayi. Mu mbuto harimo ndi voka, imyembe, n'amacunga, n'abantu bikoreye amapapayi mubasi, n'aba mama bicaye hanze ku nzu z'ubucuruzi.

Ibitoki biri ahantu hamwe birunzwe bigaragara ko bitegereje kugurishwa, akaba ari ibitoki bivaga mu baturage cyangwa ahandi hantu hahingwa ibitoki. Abantu bajya kubigura bakabijyana mu mujyi bakiteza imbere kuko abantu batagira ibyo badahinga babigura bakishyura amafaranga.

Isoko ricururizwamo ibikoresho bitandukanye harimo: imikoropesho, amasafuriya, amabase n'imbabura, akaba ari isoko abantu bajyamo guhahiramo ibyo bakeneye ndetse n'abacuruzi bakungukiramo kuko babona amafaranga.

Isoko ry'ibiribiribwa birimo pavuro, ibitunguru ndetse na sereri n'ibibiriganya, n'umugore uri kubicuruza n'abaguzi, baje guhaha izo mbuto.

Mu isantere hagati hari abantu benshi baremye isoko, imitaka ikorerwamo n'abakozi ba MTN baba ajenti, ndetse n'amaduka arimo imyenda icuruzwa borodire itwara amazi ava mu iryo soko.

Isoko rikaba ryiganjemo amagi, umusaruro ukomoka ku nkoko ubworozi bw'inkoko amatungo magufi. Akaba ari amagi akundwa cyane kuko bayaryamo umureti kandi akaba akungahaye ku byubaka umubiri.